Abantu benshi bari ahantu hamwe ndetse hakaba hari umuntu umwe uteruye umuntu ufite ubumuga. Hirya yabo hakaba haparitse imodoka yitwa Sitera.

Indege iri mu kirere akaba ari indege nini yifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibicuruzwa, ikaba iva mu gihugu kimwe ikajya mu kindi.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'ubwirinzi, imbere yabo hari umurwayi uryamye ku gitanda bigaragara ko arwaye indwara ikomeye kuko abaganga birinze bihagije.

Abantu bane ndetse n'umwana mutoya hakaba harimo abantu babiri bambaye amataburiya ndetse umwe muri bo ari guha umwana imiti mu gihe undi we afashe umwana.

Abantu bambaye udupfukamunwa, bahagaze ndetse bisa nk'aho bari ku murongo, bigaragara ko hari ikintu bategereje, hakaba ari abantu biganjemo urubyiruko.

Abantu babiri, harimo umwe w'umukecuru, ndetse n'undi wumugore. Hakaba harimo uwambaye agapfukamunwa, ndetse arimo kumusomera, inkuru mu gitabo.

Abantu bicaye ahantu hamwe ndetse imbere yabo bafite amakayi, abandi bafite amatelefone. Biragaragara ko hari ibintu barimo gusobanurirana.

Umugabo uhagaze imbere yiwe hateretse ameza, akaba afite indangururamajwi, yambaye ishati y'amaboko y'ambaye karuvati ndetse yambaye n'isaha ku kuboko.

Igikoresho cyo kwa muganga kifashishwa mu gupima indwara nyinshi zitandukanye, kikaba kifashisha mu gupima indwara nyinshi harimo n'indwara z'inzoka ndetse n'izindi ziterwa n'utundi dukoko.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, akaba yambaye itaburiya ndetse yambaye na ga mu ntoki ze, akaba afite urushinge imbere ye, hari umuntu arimo gufata amaraso.

Umugabo wambaye uturindantoki mu ntoki ze, ufite udupimiso bifashisha bapima nk'amaraso, amacandwe cyangwa umusarane, utwo dupimisho tukaba turi mu kantu kabugenewe duteretsemo bigaragara ko hari uturimo ibyo yafashe agiye gupima ngo arebe niba hashobora kuba harimo umurwayi cyangwa ntaburimo.

umuganga wambaye imyenda yabugenewe, yambaye itaburiya, yambaye agapfukamunwa ndetse n'amarinete, imbere ye hakaba hateretse ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu gupima, indwara nyinshi zitandukanye

Igishushanyo cy'umugore akaba arimo konsa umwana ndetse hejuru hakaba handitseho konsa umwana, bakaba bakangurira abantu kuzajya bonsa abana.

Umuntu wicaye mu cyumba cyo kwa muganga imbere ye hari ibitanda biryamyeho abarwaye, akaba yicaye ari kureberera abarwayi abazanira icyo bakeneye.

Abantu batanu ndetse hari n'umwana muto, hakaba hari umuganga urimo kumufata ibipimo, bigaragara ko umwana arwaye.

Abantu benshi bicaye ahantu hagati y'amazu ndetse hakaba harimo abantu bambaye amataburiya ndetse harimo n'abandi bitwikiriye umutaka.

Ubukangurambaga bwo kwirinda indwara ya malariya aho handitseho kwirinda no kwivuza malariya ku mubyeyi utwite ndetse n'uwonsa, hakaba hariho umubyeyi uryamye muri supanete ndetse afite n'umwana hari n'umugabo urimo gusiba ibinogo by'amazi.

Abantu benshi bicaye mu byatsi, imbere yabo hari intebe z'umweru ndetse n'iz'ubururu, hakaba hari umuntu umwe, wicaye ku ntebe ndetse hari n'undi uhagaze, bigaragara ko hari ikintu, agiye kubabwira.

Abantu benshi bateraniye ahantu ku biro by'akagari, akaba ari abantu bicaye ndetse abandi bahagaze ahantu mu ihema. Imbere yabo hari umugore ufite mikoro bigaragara ko hari ikintu arimo kubabwira.

Abantu benshi bari ku murongo ukoze uruziga inyuma yabo hari amahema harimo abandi bantu benshi, bakaba bisa nkaho bari kugenda hari n'ikintu bizihiza.

Abanyeshuri bicaye ahantu mu ishuri, bose bakaba bicaye bari kureba imbere ndetse hakaba harimo uri imbere ufite ikaramu bigaragara ko arimo kwandika.

Ikirango cy umuryango wa imbuto fondesheni, hakaba handitseho ngo baho neza, twite ku buzima bwo mu mutwe n'iimyitwarire ishobora gutera ihungabana.

Ivuriro gakondo rivura rikoresheje ibimera bakaba bifashisha ibimera mu kuvura ndetse bakaba batanga n'inama z'ibijyanye no ku buzima, rikaba ryubatse ahantu heza mu nzu iteye irange ry'umweru.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru. Akaba ari ahantu hari imiti myinshi itandukanye. Akaba arimo kuyishyira ku murongo kugira ngo itivanga.

Ibiganza by'umuntu bikaba bifashe imiti. Akaba ari imiti ifite amabara atandukanye, imwe isa umweru, indi isa umuhondo. Ikaba ari imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuhanda mwiza cyane utsindagiye, ku ruhande rwawo hari aho imodoka ziruhukira, imbere yaho hari amazu menshi ndetse hakaba harimo inzu yanditseho Lucky Manzi farumasi, hakaba hari n'abantu babiri harimo umwe urimo ayobora igare.

Abantu batandatu bose bambaye imyenda isa y'umukara uretse ko harimo umwe harimo utubara tw'umuhondo bakaba bambaye amasogisi y'umuhondo ndetse babiri b'imbere bateruye icyapa.

Umuntu ufite ibyapa bibiri mu ntoki, akaba yambaye umupira w'umweru handitseho ugakoreshe neza, hariho n'ishusho y'agakingirizo, akaba afite rinete mu gahanga.

Abantu babiri bicaye imbere y'imeza iteretseho televiziyo ndetse hari na mashini, umwe muri bo akaba arimo kubara amafaranga.

uUrubyiruko ruteraniye ahantu hamwe, rufite icyapa cyanditseho ngo urubyiruko ni mwe hazaza heza h'uru Rwanda, hakaba handitseho ngo irinde virusi itera Sida ndetse ngo ipimishe uyu munsi.

Abanyeshuri bafite icyapa kinini cyanditseho ko bari kwamagana ikoreshwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, bakaba bambaye imyenda y'umweru ndetse hasi bambaye imyenda ya kaki.

Itsinda ry'abantu benshi bose bakaba bambaye imipira isa. Imbere hakaba hari abantu babiri bari imbere y'icyapa cyanditseho iminsi cumi n'itandatu yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Abantu benshi bahagaze imbere y'uruzitiro bose bakaba bahagaze ku murongo, hakaba ndetse harimo n'abapolisi, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Abantu benshi bahagaze ndetse imbere yaho hahagaze umuntu umwe ufite mikoro bigaragara ko hari ikintu arimo kubabwira.

Umugabo uri mu cyumba kirimo imiti, akaba yambaye itaboburiya, akaba ari gufata imiti arimo asoma ibyanditseho, akaba ari imiti myinshi ivura ibintu bitandukanye.

Ibiganza by'umuntu, bikaba bifashe imiti, bigaragara ko ari imiti ya gakondo, akaba ari imiti ivura indwara nyinshi, zitandukanye.

Igihingwa kiza cyane ndetse kikaba kigeze mu gihe cyo kuraba, akaba ari igihingwa gifite amababi maremare ndetse indabyo zacyo zikaba zikurura inzuki.

Umuganga uri mu kazi wambaye imyenda yabugenewe, akaba yambaye itaburiya ndetse yambaye na ga imbere yiwe hakaba hari umurwayi, ndetse muri icyo cyumba hakaba hamanitse na supanete.

Abantu benshi bicaye mu cyumba harimo abambaye imyenda y'umweru ndetse n'abandi bambaye imyenda y'umukara, imbere yabo hakaba hahagaze umuntu bigaragara ko arimo kubigisha ikintu runaka.

Imiti itandukanye iri ahantu mu ducupa twinshi, akaba ari imiti imwe ifite imifuniko y'umutuku, indi ikaba ifite imifuniko y'umweru.

Inzu nini akaba ari inzu y'ahantu kwa muganga, imbere yayo hakaba hahagaze abantu ndetse harimo n'abaganga bambaye amataburiya, ndetse hakaba hari n'umunzani upima ibiro.

Ikigo nderabuzima cyubatswe ahantu ku muhanda kikaba gisize irangi ry'ubururu, hakaba handitseho Girubuzima, imbere y'aho hicaye abana ndetse hari n'umudamu uri kwinjiramo.